Abantu barimo abana, inkumi, n'abasore bari ahantu mu giturage, aho bigaragara ko baje ku ivomero; ahari kubera ibikorwa bitandukanye, bamwe baje kumesa abandi baje kuvoma.

Itsinda ry'abantu bakuze barimo, abagabo n'abagore b'abirabura. Bose bahuriye hamwe barimo bariga ku isomo ryo mu ishuri, aho bari gusobanurirana buri wese akumva icyo mugenzi wiwe arimo avuga ndetse akanabaza.

Abantu basuye ikigo k'ishuri, aho barimo berekwa ibyo abana bakora umunsi ku munsi. Abana barimo bababwira bimwe mu byo bize ndetse bakabereka n'ibyo bagezeho.

Abantu bageze kuri batandatu, barimo abadamu batatu n'abagabo batatu, bicaye imbere kuri podiyumu, aho barimo baratanga ibiganiro n'inama zitandukanye ku ngingo baje kwigaho.

Abantu bageze kuri batanu, barimo abakobwa bane n'umusore. Bambaye imipira isa kandi imipira y'ikigo bakorera, biragaragara ko ari inshuti kandi bishimanye.

Umubare munini w'abantu b'abirabura bitabiriye igikorwa kiri kubera mu gasantere, bose baje biteguye bigaragara ko ari nk'inama bari bitabiriye aho baje kwiga ku bibazo bitandukanye bafite.

Abantu batatu, umubyeyi n'abana babiri bari ku ivomero bari kuvomera injerekani, aho umubyeyi afashe injerekani, abana nabo bakaba bari iruhande rw'iwe bategereje ko yuzura.

Umukobwa w'umunyeshuri arimo akaba intoki hanze ahabugenewe, yambaye iniforume ijipo ndetse n'umupira w'ishuri, ni umukobwa w'umwirabura ukiri mutoya.

Umubyeyi n'umwana we barimo bavoma amazi ahantu mu kigunda, hari n'amazi atemba. Biragaragara ko umubyeyi arimo afasha umwana we kuvoma ndetse bose ni abirabura.

Abadamu batatu bari ku ivomero, aho babiri muri bo barimo bafasha mugenzi wabo gusunika amazi kugira ngo yuzuze nabo babashe kuvoma. Ni abadamu b'abirabura bose bambaye ibitenge.

Umwana ukiri muto barimo batera urushinge ku kuboko. Ni urushinge rw'abana bakiri batoya rubarinda cyangwa rukabakingira indwara zitandukanye kandi rukabatera gukomera.

Abana b'abirabura ndetse hakaba harimo n'umuzungu umwe. Bicaye hasi nk'abarimo baganira ku ngingo runaka. Abana bambaye imipira isa nk'abagize itsinda runaka.

Abantu bagera kuri barindwi bicaye mu cyumba cy'inama, aho barimo baganira ku bintu bitandukanye muri kampani yabo, bafite icyayi buri wese imbere y'iwe ndetse bafite na porojegiteri aho barimo berekana ibyo bagezeho.

Abantu batandukanye bitabiriye igikorwa cyo gushishikariza ababyeyi kugaburira ibiryo byuje intungamubiri abana babo, biragaragara y'uko umuyobozi yafashe iya mbere akabereka urugero abasomye ku mata.

Abantu bagera ku icyenda bahagaze hamwe bafashe seretifika bigaragara ko batsindiye, barishimye nk'abantu bageze ku gikorwa cy'indashyikirwa bose bafashe kuri seritifika bafata ifoto.

Abantu bagera kuri cumi na bane bahagaze imbere y'umuryango aho bigaragara ko bishimye, ni abantu ubona ko bari mu kazi bambaye bijyanye n'imyambarire y'ahantu hiyubashye kandi bafite umurongo ngenderwaho.

Umugabo urimo yoza amenyo arifashisha urudodo, agacisha kuri buri ryinyo ku rindi nta na rimwe asimbutse, ni umugabo w'umwirabura usa nk'ukuzemo, arimo akoresha urudodo yoza amenyo ye kuko yegeranye cyane.

Umugabo w'umwirabura urimo asukura amenyo y'iwe, arimo yifashisha akadodo, akagenda akura imyanda hagati y'amenyo, afite amenyo yegeranye bityo akadodo ni igikoresho cyiza cyo kuyasukura.

Abantu babiri bari mu cyumba cyo kwa muganga. Umurwayi ndetse n'umuganga. Umurwayi afite ikibazo cy'amenyo aho arimo yasama kugira ngo bamurebere ibibazo bitandukanye yaba afite mu kanwa, haba harimo amenyo yacukutse cyangwa ibindi. Uwo muganga na we afite ibikoresho byabugenewe, aho arimo amusuzuma.

Umusore w'umwirabura bigaragara ko akiri mutoya. Arishimye arimo aseka. Yambaye umupira w'ubururu, ahagaze yemye imbere y'igikuta cy'ibara ry'umweru.

Umusore w'umwirabura bigaragara ko akuze, arimo agerageza koza amenyo y'iwe akoresheje uburyo bw'urudodo. Amenyo y'iwe arasa nk'ayegeranye, bityo kuyogesha urudodo, bituma imyanda yose ivamo kandi neza.

Umusore w'umwirabura wambaye amadarubindi, akaba afite ubwanwa ndetse biragaragara yuko yishimye. Arimo aratunga urutoki ku menyo yiwe nk'uwerekana impinduka zayabayeho, akaba arimo asa umweru.

Umuryango w'abirabura bigaragara ko wishimanye, ni umuryango uri kumwe, useka, wicaye mu ntebe imwe, biragaragara ko bari bahuriye mu gikorwa runaka ndetse babafata n'amafoto.

Abantu bari mu zabukuru barimo bakora siporo, barimo bagorora imibiri yabo bagakoresha udupine kugira ngo baterure amaboko akomere, barishimye baranezerewe abantu bari muri siporo.

Abadamu bagera kuri batandatu bigaragara ko bakuze, barimo basoroma icyayi ku manywa hava izuba, bigaragara ko bishimye ndetse barimo barakorana umuhate kugira ngo babone ibitunga umuryango wabo.

Umudamu wumwirabura ugeze mu za bukuru, wambaye rinete kandi akaba arimo anywa imiti, afite imisatsi yatangiye kuzamo imvi kandi yambaye umupira w'ubururu.

Abantu babiri umukobwa ukora kwa muganga wambaye ibirango bya'abakozi ndetse n'umugabo bigaragara ko ageze mu za bukuru ufite n'imvi mu bwanwa, umukobwa arimo aha imiti umusaza ndetse biragaragara ko bishimye.

Abantu babiri barimo umuforomo n'umusaza ugeze mu za bukuru waje kwivuza, umuforomo arimo afasha umusaza amukorera ibizamiini bitandukanye biragaragara ko yamwakiranye urugwiro kandi bakaba barimo baraganira byimbitse.

Icyapa bagishishikariza abantu kwita ku buzima bwo mu mutwe, kigaragaraho umugabo mukuru umeze nk'umubyeyi urimo aganira n'abana biwe mu ruganiriro biga ku bibazo byo mu mutwe ndetse bareba ibibazo abana babo baba bahura na byo.

Abantu barimo abagore n'abagabo b'abirabura, bose bambaye udupfukamunwa ndetse bagaragara nk'ababiherewe ububasha, bambaye na ga zo mu ntoki, bigaragara ko barimo barafasha ababagana kandi bakabakirana urugwiro.

Umunsi usa neza. Ikirere kirasa neza, izuba ririmo riva mbega ibikorwa byose birimo biragenda neza. Hano hari inzu igaragazwa n'icyapa cyanditseho ibikorerwa muri iyi nzu, bisobanura neza ku buryo uwahanyura wese yamenya igikorerwa mu nzu.

Abantu benshi bicaye ku murongo bose bambaye udupfukamunwa, hakaba hari n'abandi iruhande rwabo barimo bagenda nabo bambaye udupfukamunwa, ni abantu basa n'abaje gushaka serivise runaka.

Umukobwa urimo agenda mu bitaro, aho ari mu cyumba aho bakirira abarwayi bazamara mu bitaro iminsi. Arimo atambuka areba niba ahantu hose hasukuye kandi biteguye abarwayi.

Igishushanyo kinini k'ijisho mu nzu yo kwa muganga, ahari intebe aho abarwayi bakirirwa ndetse hamanitse n'ibipirizo hejuru ku gikuta. Ni inzu y'ibikuta by'umweru.

Kwa muganga aho abarwayi bazamara igihe baba bari, aho baba bitaweho n'abaganga n'izindi nzego zitandukanye, aho basurirwa n'ababyeyi n'inshuti n'umuryango. Ni ahantu heza hisanzuye hagizwe n'ibikuta by'umweru.

Umudamu uri muri siporo agorora ingingo z'umubiri. arimo arambura ukuguru akagushyira inyuma, aho kurima kurafasha umugongo kurambuka ndetse n'ingingo z'umubiri.

Umusore uri muri siporo, arimo agorora ingingo zitandukanye z'umubiri harimo amaguru, amaboko ndetse n'umugongo, arimo akora amaboko kugira ngo abyimbe hejuru no hasi.

Igikoresho cyo kwa muganga, muganga agikoresha yumva uko umutima utera hakagira utwo ashyira mu matwi kugira ngo abashe kumva uko umurwayi amerewe, ni igikoresho cyifashishwa umunsi ku munsi.

Abantu babiri bari mu cyumba cyo kwa muganga, umwe ni umuganga undi ni umukobwa waje kwivuza, umuganga arimo aramusobanurira ikibazo yahuye nacyo ndetse n'uko agomba kwitwara kugira ngo ivi ryiwe ribashe koroherwa.

Ibimera by'igikakarubamba. Igikakarubamba ni umuti wifashishwa n'Abanyarwanda benshi, aho bawifashisha mu gukora imiti itandukanye, igikakarubamba kandi kigira imimaro itandukanye bityo buri muntu wese ugifite aba ari umunyamahirwe.

Icyayi kigizwe n'ibirungo bitandukanye. Harimo tangawizi ndetse n'umwenya. Ku ruhande rw'icyayi turahabona ibi bikoresho bakoreshejemo ariko bigaragara neza. Ino tangawizi n'umwenya babishyize muri iki cyayi kugira ngo kibashe kongera uburyohe.

Umuti wa forever w'amenyo. Ni umuti ukoze mu gikakarubamba umuntu yifashisha arimo yoza amenyo, ni umuti mwiza kuko ufasha mu guhindura amenyo yabaye umuhondo akongera akaba umweru de.

Ubu uburyo bugezweho bukorerwa mu nzu, aho abantu bahinga ahantu hatwikiriye, biragaragara ko hari n'abaje kubasura kugira ngo barebe nimba ubuhinzi bugenda koko, abandi na bo bari mu mirimo yabo nk'uko bisanzwe.

Umwirabura urimo ategura imiti gakondo, arimo asya ibyatsi by'icyatsi mu isekuru ndetse afite na tangawizi ku ruhande n'ibindi bikoresho bitandukanye ari bwifashishije mu gukora umuti w'iwe wa gakondo.

Umusore uri mu iduka rye aho televiziyo y'u Rwanda yamusuye, ikaba iri kwiga ku bikorwa byiwe ndetse imubaza nimba bigenda, nimba bimwungukira, kandi nimba bimutunze, kuko buri muntu aba agomba gukora icyo akunda kandi kikamuteza imbere.

Umuti wa Forever abantu bifashisha basiga mu kwaha kugira ngo birinde umuhumuro mubi. Ni umuti ufite ubuziranenge kuko nta zindi ndwara cyangwa inkurikizi zitari nziza uwawukoresheje ashobora guhura na zo.